Abakora ubuhinzi butandukanye, harimo n'ubuhinzi bw'indabyo, ni bamwe mu bakangurirwa kujya batera imiti yica udukoko ibi bihingwa byabo kugira ngo bikomeze kugira ubuzima bwiza.

Abahinzi bakora ubuhinzi bwa kijyambere, barashishikarizwa kujya batera imitica udukoko imyaka yabo, mu rwego rwo kwirinda ko yakangirika ndetse ikaba yatanga n'umusaruro udashimishije.

Abahinzi b'ibihingwa bigiye bitandukanye barashishikarizwa kujya batera imiti yica udukoko mu rwego rwo gutunganya ndetse no gusigasira ibihingwa byabo kugira ngo bizagire umusaruro mwiza kandi utubutse.

Abakora ubuhinzi butandukanye barakangurirwa kujya batera umuti ibihingwa byabo mu rwego rwo kurinda ndetse no kwica udukoko dushobora gutuma imyaka yabo idatanga umusaruro ushimishije.

Ubworozi bw'amafi bugomba kwitabwaho cyane, abakora ubu bworozi barasabwa kujya bashyiramo imiti, ibyo kurya kugira ngo umusaruro uboneke kandi ube mwinshi.

Abakora uburobyi barashishikarizwa kujya baroba amafi amaze gukura ibi ngibi bikabafasha kugenda batera imbere kandi ubworozi bwabo bakabwitaho mu buryo bugaragara.

Abakora ubworozi bw'amafi ni bamwe mu bishimira akazi kabo bakora bavuga ko kugira ngo babone umusaruro mwinshi bagomba gushyiramo ibiryo bitunga aya amafi ndetse bagashyiramo n'imiti azirinda kurwara.

Abakora ubworozi bw'amafi ni bamwe mu bishimira akazi kabo dore ko bavuga ko kugira ngo umusaruro wiyongere hashyirwa ibyo kurya mu mazi arimo amafi ndetse hagashyirwamo n'umuti utuma aya mafi abaho neza.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'indabyo, ni bumwe mu bufite akamaro kanini kuko abakora bavuga yuko bakuramo amafaranga, abafasha gukemura ibibazo bigiye bitandukanye kandi abakora ubworozi bw'amafi na bo babona amafaranga ahagije.

Abakora ubworozi bw'amafi, ni bamwe mu bishimira iki gikorwa kuko ngo bakuramo amafaranga abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Bavuga ko kugira ngo babone umusaruro mwinshi kandi mwiza, bashyiramo ibiyatunga ndetse n'imiti.

Abahinzi bakora ubuhinzi bw'igihingwa ngengabukungu cya kawa ni bamwe mu bishimira umusaruro gitanga dore ko ngo amafaranga bagikuramo bayifashisha mu gukemura ibibazo bigiye bitandukanye harimo kwishyura amashuri y'abana ndetse no kwishyura mituweli.

aAahinzi b'igihingwa ngengabukungu cya kawa, bishimira umusaruro bakura muri iki gihingwa. Bavuga yuko amafaranga bakuramo bayifashisha mu gukemura ibibazo bitandukanye, harimo kurihira abana amashuri, gutanga mituweli ndetse n'ibindi.

Abahinzi b'igihingwa ngengabukungu cya kawa, ni bamwe mu bishimira umusaruro ugikomokaho, dore ko avuga ko bakuramo amafaranga abafasha gukemura ibibazo bitandukanye mu miryango yabo nko kwishyura ubwisungane mu kwivuza, kuriha amafaranga y'ishuri y'abana babo ndetse n'ibindi.

Abahinzi b'igihingwa ngengabukungu cya kawa, ni bamwe mu bishimira umusaruro bakura muri ubuhinzi bwabo, dore ko ngo bakuramo amafaranga abafasha gukemura ibibazo bitandukanye byo mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abakora ubuhinzi bw'ibihingwa ngengabukungu, ni bamwe mu bishimira umusaruro bi dore ko bavuga ko amafaranga bakuramo bayifashisha mu gukemura ibibazo bitandukanye byo mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubuhinzi bw'igihingwa ngengabukungu cya kawa ni bumwe mu bifitiye Igihugu akamaro ndetse n'abaturage muri rusange. Abaturage bavuga yuko amafaranga bakura muri ubu buhinzi bayifashisha mu gukemura ibibazo bitandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Igihingwa ngengabukungu k'icyayi, ni kimwe mu bifitiye igihugu akamaro ndetse n'abahinzi muri rusange. Bamwe mu bakora ubuhinzi bw'iki gihingwa, bavuga yuko amafaranga bakuramo bayifashisha mu gukemura ibibazo bitandukanye.

Igihingwa ngengabukungu cy'icyayi, ni kimwe mu bifitiye igihugu akamaro ndetse n'abahinzi muri rusange. Gitanga amafaranga ashobora kwifashishwa mu gukemura ibibazo bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Imiti y'amatungo ni kimwe mu bigomba kwitabwaho hakirindwa kuyishyira ahantu habi hashobora gutuma ipfa kuko inyamaswa iyo zinyweye iyo miti yapfuye nazo zishobora gupfa cyangwa se zikarwara izindi ndwara zitandukanye.

Abakora ubworozi bw'amatungo magufi nk'inkoko barakangurirwa kwita ku aya matungo cyane cyane kuyavuza mu gihe agaragaje ibimenyetso by'uburwayi, kuyashyira ahantu hashyushye ariko bidakabije ndetse n'ibindi bishobora gutuma aya matungo agira ubuzima bwiza.

Imiti ivura amatungo igomba kwitabwaho cyane cyane nk'imiti ivura inka, ingurube, intama ndetse n'inkoko mu rwego rwo kwirinda ko yakangiza ubuzima bw'izi nyamaswa.

Amaduka acuruza imiti y'amatungo nk'inka, intama, ihene ndetse n'andi matungo, asabwa kujya abika iyi miti ahantu habugenewe, mu rwego rwo kwirinda ko yangirika.

Amaduka acuruza imiti y'amatungo nk'inka ihene ndetse n'ibindi agomba kujya abika iyi miti ahantu heza hujuje ubuziranenge mu rwego rwo kwirinda ko yakangirika igata agaciro.

Imiti y'amatungo nk'inka, ingurube, ihene, intama ndetse n'ibindi, igomba kwitabwaho cyane cyane imiti isukika kugira ngo idapfa. Ubundi ikazateza ibibazo ku matungo.

Abakora ubucuruzi bw'imiti y'amatungo barasabwa kujya bayibika ahantu heza hizewe kugira ngo birinde ko ishobora kwangirika, ibi ni mu buryo bwo kwirinda kuba amatungo yapfa azize imiti itacyujuje ubuziranenge.

Amaduka acuruza imiti y'amatungo atandukanye, harimo inka, ingurube, intama, ihene ndetse n'izindi nyamaswa, ni amwe mu yagomba kugira isuku kandi akabika iyi imiti ahantu habugenewe kugira ngo idatakaza ubuziranenge.

Abacuruzi bakora ubucuruzi bw'imiti y'amatungo barasabwa kujya bayibika ahantu hafite isuku kandi hizewe. Ni mu rwego rwo kugira ngo iyi miti idapfa, igatakaza ubuziranenge.

Amaduka acuruza imiti y'amatungo asabwa kujya abika imiti ahantu habugenewe mu rwego rwo kwirinda ko yapfa igatakaza ubuziranenge, umumaro wayo ugatakara.

Abakora ubucuruzi bw'imiti y'amatungo barasabwa kujya bayibika ahantu hujuje ubuziranenge mu rwego rwo kwirinda ko yakandura cyangwa se ikangirika igatakaza ubuziranenge.

Abahinzi b'ibigori barakangurirwa gutera iki gihingwa ku murongo ndetse kandi bakagihinga mu buryo bwa kijyambere, ibi bikabafasha kubona umusaruro mwinshi kandi utubutse.

Abakora ubuhinzi bwa kijyambere bw'igihingwa k'ibigori, ni bamwe mu bishimira umusaruro gitanga, kuko ngo iyo bagiteranya ifumbire gitanga umusaruro wikubye.

Abahinzi bakorera ubuhinzi mu bice by'icyaro, barasabwa kujya bavomera imyaka yabo mu gihe cy'izuba kugira ngo umusaruro ukomeze wiyongere.

Abahinzi bakora ubuhinzi bw'amasaka ni bamwe mu bishimira umusaruro uyaturukaho, kuko ngo bareza bagasagurira n'amasoko bakabona amafaranga yo gukemura ibibazo bigiye bitandukanye mu miryango yabo.

Abahinzi bakora ubuhinzi bw'ibigori barasabwa kujya batera imbuto ku murongo kugira ngo babone umusaruro mwinshi kandi ushimishije, ibi bikabafasha kandi no kwiteza imbere.

Abaturage bakora ubuhinzi bw'amashu, ni bamwe mu bishimira ko iki gihingwa gitanga umusaruro kandi mu gihe gitoya, bakangurira bagenzi babo kwitabira guhinga iki gihingwa kuko gitanga inyungu ziri hejuru cyane.

Abayobozi bo mu nzego zitandukanye bifatanyije n'abaturage mu gutera ibihingwa bitandukanye harimo avoka ndetse n'izindi mbuto ziribwa.

Abahinzi bakora ubuhinzi butandukanye cyane cyane abahinga mu bice by'imisozi, barakangurirwa kujya bakora ubuhinzi bwa kijyambere mu gihe cy'izuba kandi bakavomera imyaka yabo.

Abahinzi b'urutoki, ibigori ndetse n'ibindi ni bamwe mu bahawe amashimwe nyuma yo kugaragaza ko bafite ubushake mu gukorana n'amakoperative mu bijyanye n'ubuhinzi.

Abahinzi bakora ubuhinzi bw'ibigori barasabwa kwita kuri iki gihingwa, bagitera umuti ndetse bakabibagarira mu buryo bwo kugira ngo bazabone umusaruro ushimishije.

Abakora ubuhinzi mu bice by'imisozi barakangurirwa kujya bavomera imyaka yabo mu gihe cy'izuba rikomeye cyane ku rwego rwo kugira ngo umusaruro wabo udasubira inyuma ahubwo wiyongere nk'uko bikwiye.

Abahinzi bakorera ubuhinzi mu bice by'imisozi barakangurirwa kugura amamashini avomera mu gihe k'izuba, kandi bakajya batera imiti imyaka yabo kugira ngo bice udukoko dushobora gutuma umusaruro ugabanuka.

Abahinzi b'umuceri barasabwa kujya bitondera iki gihingwa kuko gisaba amazi menshi kandi ahagije, ibi bikabafasha kubona umusaruro mwinshi mu gihe gitoya.

Ibihingwa bitandukanye nk'inyanya, imineke, ibigori, kokombure, imiteja n'ibindi ni bimwe mu bifite akamaro gakomeye mu buzima bwa muntu.

Ibikomoka ku mafi ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye, ni bimwe mu bishyirwa mu nganda, bigatunganywa maze bikabasha kuba byaribwa mu buryo bworoshye.

Abahinzi bakora ubuhinzi butandukanye, harimo ubw'icyayi, umuceri ndetse n'ibindi bihingwa, ni bamwe mu bishimira ko iterambere ry'imihanda ryagejejwe no mu bice by'icyaro.

Igihingwa cy'avoka ni kimwe mu bifite akamaro kanini kuko uretse no kuba kiribwa, gishobora kuvamo ibindi bintu bitandukanye nk'amavuta yo kwisiga ndetse n'ibindi.

Ubuhinzi bugiye butandukanye mu buhinzi bw'imyumbati, bw'ibigori, n'ibishyimbo, mbere yuko biterwa habanzwa guhingwa kandi hagashyirwa ifumbire mu murima kugira ngo umusaruro uzabe mwiza,

Igihingwa k'ipapayi ni kimwe mu bishobora kuvangwa n'indi myaka, ndetse kikaba cyakegerana n'izindi mbuto; nk'indimu, imyembe, amacunga, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Abahinzi b'igihingwa cy'imyumbati, ni bamwe mu bishimira umusaruro gitanga kuko ngo iyo giteranywe ifumbire, kikabagarirwa, kikitabwaho muri make gitanga umusaruro mwinshi kandi ushimishije.

Abaturage bakora ubuhinzi butandukanye harimo ubw'imyumbati bigoye ndetse n'urutoki ni bamwe mu bishimira ko ibi bihingwa byabo bitanga umusaruro kandi mwiza bagashishikariza buri wese guhinga kugira ngo abone ibyo arya ndetse asagurire n'amasoko.

Abakora ubuhinzi bw'ibihingwa bitandukanye mu gishanga barasabwa kujya bita ku bihingwa byabo babitera imiti yica udukoko kandi mu gihe cy'izuba bikavomererwa mu rwego rwo gutanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe cya vuba.

Abakora ubuhinzi bw'ibihingwa by'amadegede, ni bamwe mu bishimira umusaruro biturukaho kuko ngo bitanga amafaranga.

Amashyamba nka kimwe mu bidukikije agomba kwitabwaho akabugwabungwa ndetse agacungirwa n'umutekano aha hagomba kwirindwa kuyatwika kuyatema ndetse n'ibindi dore ko inyamaswa nyinshi zo ku gasozi ariho zibera.

Amashyamba nka kimwe mu bidukikije agomba kwitabwaho, akarindwa ndetse agasigasirwa. Aha ni nko kwirinda kuyatwika, kuyatema ndetse n'ibindi.

Mu bidukikije dusangamo n'amashyamba, amashyamba ni kimwe mu bifite akamaro bigomba no kwitabwaho, dore ko byifashishwa mu kubaka kandi inyamaswa zikaba ariho zitaha.

Amashyamba nka kimwe mu bidukikije agomba gusigasirwa hirindwa kuyatema, kuyatwika ndetse n'ibindi dore ko havamo ibikoresho bitandukanye nko kuyubakisha kandi ngo buriya ni indiri y'inyamaswa zo mu ishyamba.

Amashyamba nka kimwe mu bidukikije, agomba kwitabwaho cyane kandi agasigasirwa. Ibi bigatuma tugira umwuka mwiza duhumeka kuko ari cyo amashyamba amaze.

Amashyamba nka kimwe mu bidukikije agomba gusigasirwa akitabwaho, hirindwa kuyatwika ndetse no kuyatema bya hato na hato kuko afite akamaro kenshi, yaba gutanga umwuka duhumeka ndetse akaba ari naho inyamaswa zo ku gasozi nyinshi zibera.

Mu rwego rwo kubungabunga amashyamba n'ibidukikije leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage bose gukoresha uburyo bwa cana rumwe mu rwego rwo kwirinda gutema amashyamba mu buryo butateganyijwe.

Amashyamba nka kimwe mu bidukikije agomba kwitabwaho kandi agacungirwa umutekano hiridwara za rutwitsi kuko ari indiri z'inyamaswa zo ku gasozi.

Amashyamba nka kimwe mu bidukikije agomba kwitabwaho hakirindwa barutwitse ndetse kandi tukirinda kuyatemagura dore ku avamo ibikoresho bitandukanye harimo n'imiti.

Amashyamba nka kimwe mu bidukikije agomba kwitabwaho, hirindwa kuyashumika ndetse no kuyatema kuko afite akamaro kanini, nko gutanga umwuka duhumeka, amatungo menshi cyane yo ku gasozi akaba ari naho yibera.

Abahinzi b'imbuto zizwi ku izina rya pome ni bamwe mu bishimira umusaruro iki gihingwa gitanga kuko ngo bakuramo amafaranga menshi abafasha gukemura ibibazo bitandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubuhinzi bw'indabyo ndetse n'imbuto zigiye zitandukanye ni bumwe mu bifitiye igihugu akamaro ndetse n'abaturage muri rusange, ibi abaturage babivuga bashingiye ku mafaranga bakura muri ubu buhinzi bwabo.

Abahinzi b'imbuto z'inanasi ni bamwe mu bishimira umusaruro uzikomokaho dore ko bavuga ko kugira ngo zitange umusaruro mwiza baba baziteranye ifumbire, bakazisasira kandi bakazikorera neza.

Ababyeyi bakora ubuhinzi bw'inanasi bibumbiye mu makoperative, bavuga yuko nyuma yo gukora ubu buhinzi biteje imbere ku buryo bugaragara, aho bavuga ko nta kintu na kimwe bagikenera ngo bakibure.

Ubuhinzi bw'inyanya, pome, imyungu ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye ni bumwe mu bufite akamaro kanini ku buzima bw'ikiremwamuntu dore ko haba hakubiyemo amavitamini agiye atandukanye afasha umubiri gukora neza.

Abakora ubuhinzi bw'imbuto zitandukanye, harimo pavuro, ni bamwe mu bishimira umusaruro bakura muri iki gihingwa, dore ko bavuga ko uretse kuba bakifashisha nk'ibiryo, kinabaha amafaranga abafasha mu gukemura ibibazo bitandukanye bya buri munsi mu miryango yabo.

Ubuhinzi bw'indabyo na bwo buri mu bituma Igihugu gitera imbere ndetse n'abaturage muri rusange, abakora ubu buhinzi bavuga ko bakuramo amafaranga abafasha gukemura ibibazo bitandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubuhinzi bwa kijyambere bugomba kugendana n'igihe, abaturage bakora ubuhinzi barashishikarizwa kwifashisha imashini zivomera mu gihe cy'izuba mu rwego rwo gukomeza kubungabunga ibihingwa byabo ndetse bigatanga umusaruro ushimishije.

Ubuhinzi bwa kijyambere ni bumwe mu bukomeje guteza imbere abaturage, dore ko basigaye bariguriye n'imashini zibafasha kuvomerera imyaka yabo mu gihe cy'izuba ryinshi cyane.

Ubuhinzi bwateye imbere mu buryo bugaragara, aho usanga ahenshi basigaye bifashisha imashini z'ikoranabuhanga mu kuvomerera imyaka yabo mu gihe cy'izuba.

Abahinzi bakorera ubuhinzi bwabo mu bice by'imisozi, barakangurirwa kujya bavomerera imyaka yabo mu gihe cy'izuba rikomeye mu rwego rwo kurwanya izuba ndetse no kugira ngo babone umusaruro ushimishije.

Abahinzi bakorera ubuhinzi bwabo mu bice by'imisozi barakangurirwa kujya bavomera imyaka yabo mu rwego rwo guhangana n'izuba rikomeye rishobora gutuma umusaruro wabo uba mukeya.

Abahinzi bakora ubuhinzi butandukanye bwa kijyambere barasabwa, kujya bavomera imyaka yabo mu gihe k'izuba rikabije, kugira ngo bazabone umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Ubuhinzi bwa kijyambere ni bumwe mu butanga umusaruro mwinshi cyane kandi vuba, aho abaturage mu gihe k'izuba bavomere imyaka yabo bakoresheje imashini zabugenewe.

Abaturage bakorera ubuhinzi bwabo mu bice by'imisozi barakangurirwa kujya bavomera imyaka yabo mu gihe cy'izuba mu rwego rwo guhangana n'izuba ryinshi ryo mu mpeshyi.

Abahinzi bakora ubuhinzi bw'ibihingwa bitandukanye mu bice by'imisozi, barakangurirwa kujya bavomera imyaka yabo mu gihe cy'izuba, mu rwego rwo kwirinda ndetse no kurinda imyaka yabo gupfa.

Abaturage bakora ubuhinzi mu bice by'imisozi barashishikarizwa kujya bavomerera imyaka yabo mu gihe k'izuba rikomeye, ibi bikabafasha kubona umusaruro mwinshi kandi mu gihe gitoya.

Imisozi ihanamye dukangurirwa kwiyicaho amatarasi y'indinganire mu rwego rwo kwirinda ibiza bitandukanye nk'umwuzure ndetse n'ibindi nko kurimbuka kw'imisozi.

Imisozi ihanamye igomba gucibwaho amatarasi y'indinganire mu rwego rwo kwirinda ibiza bitandukanye, Leta igira inama abaturage kwirinda kubaka kuri iyi misozi ihanamye kugira ngo amazu yabo atazatwarwa n'ibiza.

Abaturage barakangurirwa guca amaterasi y'indinganire ahantu hari imisozi ihanamye. Leta y'u Rwanda kandi iraburira umuturage wese ukeneye kubaka ko yajya yirinda kubaka ahari imisozi ihanamye kuko bishobora guteza impanuka.

Abaturage bakorera ubuhinzi mu bice by'imisozi itumburutse, basabwa guca amatarasi y'indinganire mu rwego rwo kwirinda isuri kandi bakangurirwa kwirinda gutura aha hantu kuko bishobora guteza impanuka, nko gusenyerwa ndetse n'ibindi.

Abaturage batuye ku misozi ihanamye barasabwa guca imirwanyasuri ndetse n'amataradinganire, azabafasha kwirinda ibiza birimo umwuzure ndetse no gutwarwa ku butaka.

Abakora ubworozi bw'amatungo maremare nk'inka, bavuga ko inka zarishije mu gisambu, ziba zitandukanye n'izariye mu biraro. Aha ngaha bavuga ko ziba zarishije ibyatsi birimo n'imiti izivura indwara zitandukanye.

Aborozi b'amatungo maremare y'inka ndetse n'abavuzi bayo, basabwa kwita kuri aya matungo cyane mu rwego rwo kongera umukamo ndetse n'ibindi bitandukanye.

Abakora ubworozi bw'inkoko mu turere dutandukanye, bashishikarizwa kwita ku matungo yabo, bakayashakira imiti kandi bakayashyira ahantu hashyushye mu rwego rwo kugira ngo azatangage umusaruro mwiza kandi mu gihe cya vuba.

Abakora ubworozi bw'amatungo magufi, ingurube, ni bamwe mu bashishikarizwagirira isuku aya matungo ndetse bakanayagaburira kugira ngo atange umusaruro mwinshi kandi mu gihe cya vuba.

Aborozi bakora ubworozi bw'amatungo maremare nk'inka, ni bamwe mu bishimira umusaruro aya matungo atanga, bavuga ko uretse umukamo, inyama, inka zitanga n'ifumbire.

Ubworozi bw'amatungo y'ingurube ni bumwe mu bugomba kwitabwaho kugira ngo butange umusaruro mwinshi kandi vuba, aha uworoye aya matungo asabwa kuyavuza, kuyagaburira ndetse no kuyashyira ahantu heza.

Inkoko nk'amatungo magufi abazorora babasabwa kubahiriza ibi bikurikira: kuzivuza igihe zarwaye, kuzishyira ahantu hashyushye mu rugero ndetse no kuziha ibyo kurya mu rwego rwo kugira ngo zitange umusaruro mwinshi kandi mu gihe gito.

Ubworozi bw'amatungo cyane cyane ay'inka ni bumwe mu bugomba kwitabwaho abacuruzi bacuruza imiti y'aya matungo basabwa kujya bayibika ahantu hujuje ubuziranenge mu rwego rwo kwirinda ko yangirika kandi bakagira n'ibikoresho byo gushyiramo umukamo.

Aborozi bakora ubworozi bw'amatungo magufi nk'inkoko, ni bamwe mu bagomba kuzitaho kugira ngo zitange umusaruro utubutse. Aha ni nko kuzivuza mu gihe zarwaye ndetse no kuzigaburira ibiryo bihagije.

Aborozi b'amatungo y'inka ni bamwe mu bishimira umusaruro atanga kuko bamwe bavuga yuko inka imwe ishobora gukamwa litiro zisaga eshanu mu gitondo ndetse na nimugoroba.

Aborozi b'amatungo magufi nk'inkoko basabwa kujya bazisigasira mu rwego rwo kugira ngo bagire umusaruro utubutse. Aha ni nko gucanira inkoko zikiri ntoya kugira ngo zishyuhe zimwe na zimwe zibe zitapfa.

Ubworozi bw'amatungo y'inka ababukora bavuga yuko kuragira aya matungo mu gisambu bifasha inka kubaho neza kuko ngo mu byatsi zirisha haba harimo n'imiti izivura indwara zitandukanye.

Abakozi bashinzwe gutunganya imbuto ndetse n'ingemwe, ni bamwe mu bagomba kwambara imyenda yabugenewe, mu rwego rwo kwirinda kuba bakandura cyangwa se ubuzima bwabo bugahura n'ingorane zitandukanye, zitewe n'imiti n'imyaka.

Bamwe mu bahinzi bibumbiye mu makoperative bakaka inguzanyo, bagahinga igihingwa cy'ibigori mu buryo bwa kijyambere, bishimiye umusaruro bakuyemo kuko ngo ukubye gatatu umusaruro babonaga mbere yo gukoresha ifumbire.

Abahinzi b'ibigori ni bamwe mu bishimira iki gihingwa, dore ko ngo gitanga umusaruro utubutse, bakaba basagurira n'amasoko bakabona amafaranga, akemura ibibazo bigiye bitandukanye.

Abacuruzi bacuruza imiti y'amatungo ndetse n'ibiryo by'amatungo, barasabwa kubigirira isuku mu rwego rwo kurinda aya matungo kuba yarwara indwara zitandukanye zituruka ku mwanda.

Abaganga b'amatungo ni bamwe mu bafatiye runini ubuzima bw'izi nyamaswa, kuko mu gihe zananiwe kubyara bazibaga bakazikuramo abana kandi bagakomeza gusigasira ubuzima bwazo.

Abaganga b'amatungo ni bamwe mu bafatiye runini ubuzima bw'izi nyamaswa dore ko iyo zarembye ari bo babasha kuzitaho bakazisubiza ubuzima.

Abakora ubworozi bw'amatungo magufi nk'inkoko barashishikarizwa kujya bitabaza abaganga b'amatungo mu gihe aya matungo yabo agize ikibazo cy'uburwayi nk'imisinziro ndetse n'ibindi.

Abavuzi b'amatungo na bo basigaye bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye harimo nk'ibipima umuriro w'amatungo, ibibasha kumenya niba itungo rifite ikibazo runaka ndetse n'ibindi.

Abaganga b'amatungo maremare nk'inka barasabwa kujya baba hafi aya matungo mu rwego rwo kwirinda no kuzirinda indwara zitandukanye.

Inyamaswa zitandukanye harimo n'imbwa ni zimwe mu zigomba kwitabwaho n'abaganga b'amatungo kuko ziba zigomba gukingirwa kugira ngo zitazagira uwo ziruma zikamukomeretsa zikaba zamutera n'ibisazi.

Abavuzi b'amatungo ni bamwe mu bafitiye umumaro munini cyane izi nyamaswa kuko ubuzima bwazo buba buri mu biganza by'aba baganga.

Abaganga b'amatungo ndetse n'aborozi bashyize hamwe barasabwa kujya bita ku buzima bw'izi nyamaswa bazivurira ku gihe ndetse bakazigaburira neza kugira ngo zitange umusaruro utubutse.

Abaturage bose barashishikarizwa gucunga umutekano w'inyamaswa zo ku gasozi ndetse no kuzirinda kuko zimwe muri zo zishobora kwangiza abantu ndetse zikaba zatwara n'ubuzima bwabo.

Inyamaswa z'igasozi ni zimwe mu zigomba kwitonderwa zimwe na zimwe ndetse umuntu akanazigendera kure kuko zimwe muri zo zishobora kwambura ubuzima, ikindi kandi zigomba kwitabwaho zigacungirwa umutekano hirindwa kuzihiga ndetse no kuzikorera ibindi byazibangamira.

Inyamaswa z'ishyamba tugomba kuzitondera kandi tukarinda ubuzima bwazo zimwe muri zo ushobora kuzisagarira zikakugirira nabi ndetse zikaba zanakwambura ubuzima aha twafata urugero nk'intare.

Inyamaswa z'i gasozi zifite umumaro munini cyane ku gihugu ndetse no ku baturage kuko zikurura ba mukerarugendo, bagatanga amafaranga akoreshwa mu bikorwa bitandukanye, harimo kubakwa kw'imihanda, amavuriro ndetse n'ibindi.

Inyamaswa zo ku gasozi, ni zimwe mu zigomba gucungirwa umutekano natwe muri rusange. Izi nyamaswa kandi zigomba kwitonderwa kuko zimwe muri zo zishobora kutwangiriza ubuzima, zikaba zanaduhitana.

Inyamaswa zo mu ishyamba ni zimwe mu zigomba kubungabungwa zikitabwaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, abaturarwanda barashishikarizwa kwirinda zimwe mu nyamaswa z'inkazi kugira ngo zitazabangiza cyangwa zikabatwara ubuzima.

Abaturage turakangurirwa gufata neza inyamaswa zo mu ishyamba ndetse tukazirinda kuko habamo iz'inkazi, zishobora kutwica cyangwa se zikanadukomeretsa.

Inyamaswa z'igasozi ni zimwe mu zigomba gucungirwa umutekano n'abaturage muri rusange hirindwa kuzihiga, kuzica ndetse n'ikindi cyabangamira ubuzima bwazo bwa buri munsi.

Inyamaswa z'ishyamba ni zimwe mu zigomba kwitabwaho, zigacungirwa umutekano kuko zikurura ba mukerarugendo bagatanga amafaranga yifashishwa mu kubaka ibikorwaremezo bitandukanye, harimo amashuri, amavuriro, imihanda ndetse n'ibindi.

Inyamaswa zo ku gasozi ni zimwe mu zigomba kwitabwaho n'abantu hirindwa kuzihiga, kuzica, kuzitega ndetse n'ibindi, kuko izi nyamaswa zikurura ba mukerarugendo bagatanga amafaranga ku gihugu yifashishwa mu kubaka ibikorwaremezo.